Abantu benshi, bicaye ahantu hamwe, ku ntebe z'ubwegamiro, bari mu nama. Imbere yabo hateretse agacupa kaji ndetse n'akamazi, barimo bakurikira ibiganiro babagezaho.

Icyumba kinini cy'inama Giteraniyemo abantu bo mu ngeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo inzego zigiye zitandukanye, haririmo iza gisirikare n'izindi bicaye ku ntebe zitukura.

Abantu bane bicaye imbere y'imbaga nyamwinshi y'abantu bisa nkaho babateze amatwi. Abo bagabo bane, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho rubyiruko menya amateka yawe.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru ufite ijosi ry'umukara, imbere ye hari indangururamajwi, hari n'icyapa cyanditseho ngo rubyiruko menya amateka yawe.

Icyumba kinini cy'inama, kirimo intebe hicayemo abantu bagiye batandukanye, bamwe bafite ameza imbere yabo, amakayi n'amakaramu, barimo kwandika ibirimo kuvugirwa aho ngaho.

Abagore bavanze n'abagabo bo mu nzego zigiye zitandukanye harimo iza gisirikare ndetse n'abadaso bicaye ku ntebe z'ubwegamiro imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi n'utundi twa ji.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bo mu nzego zigiye zitandukanye harimo abasirikare, abapolisi ndetse n'abandi, bateraniye hamwe bicaye ku ntebe bakurikiranye inama, bamwe bafite udukayi ndetse n'amakaramu yo kwandika bimwe mu byavugiwemo.

Abagabo batatu bahagaze mu cyumba k'inama hatatsemo ibitambaro biri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho inama ya Komite Mpuzabikorwa y'Akarere ka Nyagatare.

Imbaga y'abantu benshi, bakoraniye hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore bafite ibyapa byanditsehogerayo amahoro, harimo ufite indangururamajwi, urimo gutera indirimbo barimo bazibyina.

Icyumba cy'inama hateraniyemo abantu bagiye batandukanye bicaye, muri bo harimo umwe uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki urimo gutanga igitekerezo.

Ikoraniro ry'abantu benshi, bari mu nzego zigiye zitandukanye, harimo iz'abasirikare, iza polisi ndetse n'izindi, bateraniye mu cyumba cy'inama kinini, barimo kumva ijambo.

Sare nini yicayemo abagore n'abagabo bicaye barebana bari mu nama bari kuganira, imbere yabo hagiye hateretse agacupa karimo ikinyobwa n'ikirahure cyo kukinywesha.

Icyumba gifite amadirishya, hahagazemo umugabo wambaye amarinete, yambaye ishati ya karokaro n'isaha mu kuboko kw'ibumoso, afite indangururamajwi arimo aratanga ijambo.

Abagore bakenyeye, bambaye urunigi ruriho amasaro y'umweru, bateze amaboko, bari kubyina mu buryo bujyanye n'umuco wa kera wa kinyarwanda.

Abantu benshi harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bahagaze imbere y'ingoma bamwe muri bo bari gukoma ingoma abandi bafite mikoro bari kuririmba abandi inyuma bari gukoma amashyi.

Umugore uhagaze wirabura washokoje umusatsi yawubinditse, mu umutwe we harimo udutambaro tw'umweru tugiye tubisikana, yambaye urunigi rufite amasaro y'umweru, kandi yakenyeye igitambaro cy'umweru kigiye kiriho amabara y'umukara.

Abagabo benshi bambaye amashati y'imyeru, bakenyeye ibitambaro by'imyeru n'umwitero w'umweru, bateruye ikibindi kirimo imiseke itatu ndetse ku mutwe hazengurukijeho ikoma.

Abagabo babiri umwe ari imbere undi ari inyuma ye bashyize igikoresho ku minwa yabo kibaje neza mu giti ari cyo mu kinyarwanda bita umwirongi barimo kukivuza.

Ibikoresho byo mu muco wa kinyarwanda harimo umusambi uboshye, intara bagusoreraho, uruho banyweraho ndetse n'igicuma kirimo umuseke, banyweramo ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Umugore washokoje umusatsi yawujyanye hejuru urimo imvi nyinshi cyane, yiteze udutambaro tugenda tubisikana mu mutwe we kandi yambaye umukenyero w'umweru.

Abasore babiri bakenyeye inshabure zidoze mu myenda, hejuru bambaye ubusa, bambaye urunigi mu ijosi ruriho amasaro y'imikara n'umweru bafite n'amacumu mu ntoki.

Igikoresho cyifashishwa mu muco nyarwanda kizwi ku izina ry'igiseke, kidoze mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, kizwiho gutwarwamo imyaka ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye babitwereye ahantu habaye ubukwe.

Umugabo upfukamishije ivi rimwe, afite umuheto n'umwambi mu ntoki, yawufoye arimo arakora ibyo bita kumasha, inyuma ye mu mugongo harimo icumu rirerire ndetse n'inkoni.

Umugabo wicaye mu ntebe nkumwami , ufite umwitero w'umweru ,ufite icumu rirerire mu kuboko kw'iburyo, wambaye urunigi rufite amasaro y'umukara n'umweru. lruhande rwe rw'iburyo hicaye abakobwa bakenyeye, urwo ibumoso hicaye abakobwa bambaye imyambaro yumweru, inyuma ye hahagaze abasore bafite amacumu magufi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, barimo barakurura urusinga rw'amashanyarazi bagiye kuzamura ku mapoto agiye ashinze aho ngaho.

Inyubako nini y'urugomero rw'amashanyarazi hariho ibyuma byinshi ndetse n'insinga zivana umuriro aho ngaho ziwujyana mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ndetse n'ahandi.

Umuhanda muremure w'igitaka, ugiye ukikijwe n'intoki ndetse n'ibiti, hagiye hashinzeho amapoto, ariho insinga zigenda zisakaza amashanyarazi mu baturage.

Ipoto rinini ricaho insinga zigemurira amashanyarazi andi mapoto agenda asakaza umuriro mu baturage hirya no hino, mu duce tugiye dutandukanye.

Inyubako nini, iriho amafoto agiye ashinzeho n'ibindi bikoresho by'ibyuma bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutanga ingufu z'amashanyarazi.

Ipoto rinini ry'icyuma hatambitseho ibindi byuma bitatu, hagiye hazengurutseho insinga nyinshi zigiye zinyuranyuranamo z'umukara, zigenda zisakaza umuriro mu baturage.

Icyuma kinini gishinze kizwi ku izina ry'ipoto hahuriraho insinga zigiye zitandukanye zikuraho umuriro zigenda ziwusakaza hirya no hino, hashinze urwego ruhagazeho umugabo wambaye isarubeti y'ubururu urimo gukora ayo mashanyarazi.

Inyubako nini iriho ibyuma bigiye bitandukanye ishinzeho amapoto n'andi agiye anyuranyuranamo azifashishwa mu gutanga ingufu z'amashanyarazi.

Inyubako nini yegereye umuhanda wa kaburimbo, ifite urukuta rwubakishije amatafari ahiye, mo imbere harimo ibiti ndetse harimo n'idarapo ry'igihugu.

Igiti kinini kizwi ku ipoto, hanyuraho insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi, hariho icyapa kiri mu mabara yumuhondo, hariho umutwe w'umuntu unyujijemo uturongo tubiri tubisikana, bishatse kuvuga ko nta muntu wemerewe kuhegera kuko bishyira ubuzima bwe mu kaga.

Urugomero rw'amashanyarazi, rushinho amapoto agiye atandukanye ndetse n'insinga zigenda zinyuyuranamo, imbere y'aho ahagaze umugabo wambaye ikote n'agapfukamunwa by'umukara, afite urupapuro mu ntoki.

Inyubako y'urugomero rw'amashanyarazi rwubatse hagati y'imisozi ibiri yegereye umugezi. Hashinzemo amapoto andi ajyiye atambitse kandi intsinga zijyiye zicomekeranyije

Inyubako yitaruye izindi yubakishije amabati atukura, imbere yayo hari amapave ndetse hari n'intebe abantu bicayeho kandi hari n'ibendera ry'igihugu.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umweru, isakarishije amabati y'ubururu, hariho ibigega bifata amazi, hariho n'akayira gakoze neza karimo gaturukamo abantu.

Inyubako ndende ishakaje ibati ritukura ifite ikigega cy'umukara hejuru, imbere yayo hashinze amabendera abiri atagaragara neza, hafite ubusitani buconzeho indabyo nziza.

Isoko rinini cyane ryubakiye kandi risakaye mu imbere hagiye harimo ibibanza byubakishije amatafari ahiye aho umucuruzi ashyiraho ibicuruzwa bye.

Ikiraro kinini cyubakishije imbaho ibyuma, ndetse na senyenge hariho abantu babiri barimo ku kukigendaho, inyuma yacyo gikikijwe n'ibiti binini.

Inyubako nini iteganywa kuzakorerwamo ubucuruzi yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu, mo imbere hagiye hashinzemo ibyuma biyifata kugira ngo itaguruka.

Ikiraro kinini kiri hejuru y'umugezi cyubakishije ibyuma, harimo kugendaho imodoka ndetse n'igare na moto, inyuma yabo hazengurutse abantu benshi n'abo bagiye kwambuka.

Isoko nini ryubakiye kandi risakaye, riteraniyemo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, bamwe bazanye ibiguzi byabo kubigurisha, abandi baje kugura ibyo bicuruzwa.

Ku mupaka munini uhuza igihugu cy'u Rwanda n'u Bugande hari urujya n'uruza rw'abantu bamwe binjira mu gihugu abandi bagisohokamo.

Inyubako nini ifite inzugi ndetse n'amadirishya bisize irangi ry'umweru, hejuru ku ibati harambitseho igikoresho kinini, gitanga ingufu z'amashanyarazi binyuze mu gukusanya imbaraga z'izuba.

Inyubako nini kandi zisa, zubatse kimwe, zigiye riri ku murongo, zubakishije amatafari ahiye, zishakaje amabati atukura, iruhande rwayo hari ipoto rinini rigenda risakaza umuriro muri ayo mazu agiye atandukanya.

Umupaka uhuza u Rwanda n'Ubugande, hariho ibyapa bibiri, kimwe kiririmo ibara ry'umweru, irindi riri mu cyapa cy'icyatsi, cyirifuriza abantu bambukiranya ibihugu byombi urugendo ruhire.

Inyubako eshatu kandi zisa ziri ku murongo umwe, zisize amarange y'umweru, amabati yazo ni ubururu, zifite imbuga ngari, imbere yayo ashinze amapoto, imwe igemura amashanyarazi indi iriho amatara azimurikira.

Inyubako nini, isize irangi ry'ubururu, isakarishije amabati y'ubururu, iriho icyapa cyanditseho ngo gira ubuzima, imbere yayo, hari abantu benshi bayizengurutse.

Amarembo manini, ariho urugi rukoze mu byuma rutukura, yinjira mu igororero, ry'abana rya nyagatare, aho bafungiramo abana batujuje imyaka y'ubukure.

Umuhanda munini ukoze neza, ufite ikiraro cyubakishije ibyuma, harimo gucamo imodoka nini ndende y'umweru, izwiho imbaraga nyinshi ihetse indi y'umuhondo.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabati atukura, imbere yayo hari ubusitani bukoze neza, hari na pisine yifashishwa mu kogeramo, n'abantu bahatembereye.

Ikigo kinini kirimo inyubako zubakishije amatafari ahiye, arimo kandi n'akandagira ukarabe yubakishije amakaro, mu mbuga y'aho hagiye hateyemo indabyo.

Inyubako nini y'ubururu, itangirwamo inama z'ubuzima ndetse ikanavurirwamo indwara zigiye zitandukanye, ku rubaraza rwabo hicaye abantu benshi baje gusaba ubufasha.

Inyubako ndende igeretse yubakishije amatafari ahiye, isakarishije amabati y'ubururu. Inyuma yayo hari imbuga nini iteyemo umucaca, imbere yayo hari akayira ko kugendamo uyigana.

Icyapa kinini cyubakishije sima, giteye irange ry'umweru amagambo yandikishije ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umukara, kiranga ahantu mu Karere ka Nyagatare Akagari ka Karija Umurenge wa Nyagatare.

Inyubako nini iri mu ibara ry'umuhondo, isakarishije amabati y'icyatsi, ifite imbuganga ngari irimo igendaho abantu ndetse inaparitseho imodoka, harimo ipoto iriho amatara amuririka iyo nyubako.

Imbaga y'abantu benshi harimo abagore n'abagabo, bicaye mu mucaca abandi bicaye ku ntebe hashinze ibiti birebire bibakingira izuba bari mu nama.

Abagabo benshi ndetse n'abagore bahagaze hamwe ku murongo mu rwuri barimo guhereza inka umuturage bambaye furari zigaragaza ko bari mu gihe cyo kwibuka.

Imbaga y'abantu benshi batandukanye, harimo abagore n'abagabo, bagiye kwizihiza umunsi mukuru wahariwe kwizihiza umwana w'Umunyafurika, hari umugabo w'umupolisi urimo kubagezaho ubutumwa.

Abagore n'abagabo bo mu nzego zitandukanye, harimo n'umukozi wa RIB bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hateretse ameza manini barimo kuganiriza abaturage.

Abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye munsi y'ibitente ku ntebe bamwe bambaye amafarari bagiye mu bihe byo kwibuka abandi bambaye imipira y'imikara yanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Umugabo uhagaze wambaye ikote na karuvati by'umukara yambaye n'amarinete, afite indangururamajwi ari kuyivugiramo, inyuma ye hariho icyapa cyanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Icyumba kinini cy'inama giteraniyemo abantu bagiye batandukanye, harimo abasirikare, abapolisi, abadasso ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe, imbere yabo hariho ameza ateretseho uducupa tw'amazi.

Imbaga y'abantu benshi batandukanye harimo abagore, abagabo ,abana ndetse n'urubyiruko bakoraniye muri sitade yubakiye neza kandi isakaye, idekoresheje ibitambaro by'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Abagabo babiri bambaye amakote bari kumwe n'undi umwe ufite uruhu rwera, barimo guca agatambaro gatatse kari mu mabara y'icyatsi bafungura inyubako nshya igiye kujya ikorerwamo.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abasirikare, abacungagereza ndetse n'abandi bambaye gisivili, bateraniye hamwe, bamwe bambaye furari zo kwibuka.

Imbaga y'abantu batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo, bakoraniye hamwe baricaye, imbere yabo hari abantu bahagaze, bafite insakazamajwi, barimo gutanga igitekerezo cyabo mu baturage.

Umugabo uhagaze, wambaye imifeo y'umukara, ufite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo, wambaye umupira w'igisirikare wandetseho RDF, arimo aravuga ijambo.

Icyumba kinini k'inama giteraniyemo abantu benshi batandukanye. Harimo abo mu nzego za Leta ndetse n'iz'abikorera. Harimo Abapolisi n'Abasirikare bicaye, imbere yabo hari ameza hateretseho amacupa y'amazi.

Urwibutso rwa jenoside rw'Akarere ka Nyagatare hateraniye abagore bafashe indabyo ndetse n'abagabo bateruye amasanduku harimo imibiri bagiye gushyingura mu cyubahiro.

imodoka nini itwara abagenzi, izwi ku izina rya Kwasiteli, harimo kwinjiramo abagenzi, hanze hahagaze abagabo babiri bambaye ingofero barimo gushaka kwinjiramo.

Ikibuga kinini kigishirizwamo gutwara ibinyabiziga, haparitsemo imodoka ebyiri. Umuntu witorezamo kugira ngo azajye gukorera uruhushya rwa burundu rumwemerera gutwara ibinyabiziga.

Umuhanda munini wa kaburimbo uriho inyubako zigiye zitandukanye, ziri ku murongo zikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, uwo muhanda harimo imodoka nini y'umweru yanditseho Akarere ka Nyagatare.

umuhanda muto w'igitaka wifashishwa n'abanyamaguru, uri ku cyapa cya EN cumi na gatatu, hagiye hariho amazu ndetse n'ibiti n'amapoto y'umuriro ugenda usakaza amashanyarazi mu baturage.

Amapoto manini ,agiye ateganye, ariho insinga zigiye zitandukanye, yifashishwa mu buryo bwo kugemura umuriro w'amashanyarazi mu ngo zigiye zihegereye.

Icyapa kinini, kiriho ibirango by'urusengero rw'abaporoso. Kirerekana aho urusengero rw'abaporoso ruherereye, byerekana ko ari muri metero ijana ujyaho agafureshi kerekana.

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo cyerekana ko imbere harimo imirongo abanyamaguru bambukiramo, inyuma yacyo hari ibiti bifite amashami manini.

Resitora nini irimo amakararo y'umweru imbere yayo hateretse icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru na oranje. Hariho ubwoko bw'amafunguro batanga.

Umusirikare, umupolisi n'umudaso, bambaye imyenda y'akazi, bakoraniye hamwe n'urubyiruko, bazengurutse inzu, bafite ibyondo barimo kubaka bubakishije amatafari y'inkarakara, inyuma yabo hari abandi bantu bahagaze bari kubareba.

Inzego zitandukanye harimo iza polisi, iza gisirikare ndetse n'i daso, byafatikanyije n'abaturage mu gikorwa cyo kubaka inzu, yifashishije ibyondo ndetse n'amatafari.

Imbaga y'abantu bagiye batandukanye, harimo abagore n'abagabo ndetse n'inzego za leta, harimo polisi ndetse n'abasirikare, bateraniye hamwe, ahantu hasakaye, baricaye barimo gukurikirana ibiganiro.

Umugore uhagaze ufite insakazamajwi, inyuma ye hari umugabo umutwikirije umutaka yirinda izuba ryinshi. Arimo kuganiriza abaturage bagiye batandukanye bateraniye aho ngaho.

Umugabo w'umupolisi, wunamye urimo araterura ibuye, imbere ye hari umugabo wambaye bote, inyuma ye hari umuntu wambaye inkweto zifunguye, arimo arakora ibikorwa by'ubwubatsi.

Umugabo w'umupolisi wambaye impuzankano, afite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo, arimo arageza ijambo ku baturage, bateraniye aho ngaho bicaye imbere ye.

Abagabo icyenda bicaye ku ntebe babiri muri bo bambaye impuzankano za polisi, undi umwe yambaye impuzankano y'igisirikare, abandi bambaye imyenda isanzwe, imbere yabo hicaye abaturage mu mucaca.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru harimo umugore wambaye imyenda y'imikara n'umugabo wambaye amarinete, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, hagati hateretsemo umupira bagiye gutangiza.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru hahagazemo abakinnyi bambaye impuzankano iri mu mabara y'ubururu, harimo n'uturongo twicyatsi, barimo barigorora mbere yuko umukino utangira.

Ikibuga cyubakiye neza gikinirwamo umupira w'amaguru, habereyemo umupira uhuza amakipe abiri atandukanye, yambaye impuzankano zitandukanye.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru hahagazeho umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ikabutura y'umukara, wazamuye icyapa kiriho umubare umunani ndetse na kane, bivuze ko bagiye gusimbuza abakinnyi bambaye izo nimero.

Abagabo batatu b'abasifuzi barateganye, bambaye amaji y'icyatsi, inyuma yabo hari abakinnyi bambaye amajezi y'ubururu, abandi ay'umuhondo, bafite icyapa cyanditseho amarushanwa y'umurenge Kagame kapu.

Ikibuga kinini, gikinirwaho umupira w'amaguru, inyuma yacyo hari abantu benshi baryamye, barimo gukora ibikorwa byo kugorora umubiri, bizwi nka siporo, hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru, uri kugenda abakoresha.

Ikibuga cy'umupira cyubakiye kandi gikoze neza, harimo abakinnyi bagiye batandukanye barimo gukina umupira w'amaguru, bambaye impuzankano zigiye ziri mu mabara atandukanye.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru ateraniyemo amakipe abiri atandukanye yabagabo, bambaye impuzankano zitandukanye, bamwe bambaye izusa umuhondo, abandi bambaye iz'ubururu bwijimye.

Sitade ikinirwaho umupira w'amaguru, hahagazeho abagabo babiri bakinira amakipe atandukanye bambaye impuzankano zitandukanye, iruhande rwabo hari umusifuzi ufashe agatambaro.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, harimo abagabo batatu, babiri bakinira ikipe imwe, undi ntabwo bakinana. Ashoreye balo, barimo kumwirukankana, bashaka kuyimwaka.

Ikibuga bakinira mo umupira w'amaguru kirimo tapi, kirimo n'abagabo babiri bambaye amajezi, inyuma yabo hari ipoto irimo inshundura.

Sitade nini iri mu mabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu hicayemo abantu baje kureba umupira, inyuma y'ikibuga hariyo abakinnyi bari kwishyushya bambaye impuzankano y'ikipe yabo.

Abantu batandatu barimo abasore batanu ndetse n'umukobwa umwe bambaye imyenda isa, ipantaro ndetse n'ishati bizwi ku izina rya kimono barimo barakina umukino ngororamubiri uzwi ku izina rya Karate.

Abana batatu bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, bari gukina ballo itukura, umwe muribo yambaye inkweto zifunze zo gukinana, undi yambaye ibirenge, undi nawe yambaye bodaboda.

Abakobwa babiri bakinira amakipe atandukanye, umwe yambaye impuzankan y,umukara, irimo uturongo tw'umweru, undi yambaye iy'ubururu nayo irimo uturongo tw'umweru, barimo gukina umupira w'amaguru.

Ikibuga kinini gikinirwamo umupira w'amaguru hamwe hateye ibyatsi ahandi ntabyo, iruhande rwacyo hari abagabo babiri baje kwihangira amaso umupira.

Abakinnyi bambaye imipira y'imyeru ikabutura ya oranje imanitseho uturongo tw'umukara, bari mu kivunge, bakikijwe n'abana benshi cyane bavuye ku ishuri nabo bambaye imyenda y'ishuri.

Abantu bicaye muri sitade ku dutebe tw'ubururu barimo bareba mu kibuga bakurikirana ibiri kuberamo, iruhande rwabo hari ibikapu bibiri by'imikara.

Ikibuga kinini gikinirwaho umupira w'amaguru, harimo abakinnyi babiri bakinira amakipe atandukanye, bambaye impuzankano ziri mu mabara atandukanye, barimo gukiniraho umupira.

Umuhanda w'igitaka uvuye kuri kaburimbo urimo abagore babiri bahetse amashakoshi ku ntugu barimo kugendamo, unyura hagati y'amashyamba agiye atandukanye.

Umukobwa wambaye ijipo y'ubururu, umupira wumukara, uri kwitaba terefone, ari kugenda ku muhanda wa kaburimbo, ku kayira k'abanyamaguru, iruhande rwawo hari ikibuga cy'umupira.

Akayira nyabagendwa k'abanyamaguru, kari ku musozi, gakikijwe n'ibyatsi, ndetse iruhande rwaho hari icyobo gicukuye, kifashishwa mu buryo bwo gutangira amazi, kugira ngo hirindwe isuri.

Umugabo uhetse igikapu uri kugenda mu muhanda munini wa kaburimbo, worohereza abantu imihahirane ndetse wifashishwa n'ibinyabiziga, gutwara ibiribwa ndetse n'ibicuruzwa ahantu runaka.

Umusore wambaye umupira, ipantaro y'ikoboyi ndetse n'inkweto z'umuhondo, ateruye indobo irimo amagi, agenda mu kayira gato gaca hagati y'amazu, agenda ashakisha amafaranga.

Umuhanda munini wa kaburimbo uriho imodoka nini iri mu mabara y'umweru ya Demi Shelaton Hotel, ibafasha gutwara ibicuruzwa bimwe na bimwe ibijyana kuri iyo hoteli cyangwa se mu bakiriya bayo.

Umuhanda nyabagendwa w'igitaka wifashishwa n'abaturage barimo kujya ahantu hagiye hatandukanye, iruhande rwayo hagiye hateye umucaca w'icyatsi kibisi.

Umuhanda muremure wa kaburimbo, utarimo abantu. Ku mpande zaho mu kayira k'abanyamaguru hariho abantu bagiye batandukanye barimo bajya mu mirimo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umukobwa muremure wambaye ipantaro ndetse n'umupira w'umweru ufite igisuko. Iruhande rwe hari abamotari batatu bariko bicaye kuri moto baparitse.